Mu muhanda amatara ayobora imodoka. Gayoboraga imodoka ntigavuga. Iyo ryatse icatsi urakomeza ukagenda. Igihe icyerekezo cyawe cyatsemo ibara ry'umutuku urahagarara, ugategereza ko baguha cyangwa se amatara gaguha ibara ry'icyatsi. Iyo ari iry'icyatsi uragenda, ryaba ari iry'umutuku ugahagarara. Niko amabwiriza gameze.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro aho abantu bashobora gufatwa n'inkongi y'umuriro, byaba biturutse ku mashanyarazi cyangwa ku kindi kuyindi suruse, n'inkomoko y'umuriro waka cyane bitoroshye kuwuhagarika, inkeragutabara, imodoka, polisi ishobora kwifashishwa muri mu butabazi mu gihe habaye icyo cyago.

Ni igikorwa cya polisi y'u Rwanda "gerayo amahoro", aho bigaragara ko iri kwigisha abanyabiziga, abatwara ibinyabiziga bya moto kwitwara neza mu muhanda kandi ibabwira ko umutekano ugomba gucungwa na bo bityo ko aho bagiye bagomba kugerayo amahoro ariko n'abo bajyana na bo muhanda, basangira umuhanda bakamenya ...

Abashinzwe umutekano, polisi y'igihugu y'u Rwanda, biteguye kwakira nk'abantu baje bahanganye, cyangwa se bari mu myigaragambyo, ikaba igiye kubakumira kugira ngo batagira ibyo bangiza.

Abashinzwe umutekano daso ndetse n'abanyerondo bateranye kubera ko bafite inama y'umutekano ku rwego rwabateranirije aha ngaha. Inama yiga ku mutekano w'abaturage, naho muri zone bashinzwe kurinda umutekano.

Mu nzu itangirwamo ibiganiro, umupolisi ushinzwe umutekano arimo araganiriza abaturage uko umutekano uhagaze bajya inama n'abayobozi batandukanye, y'buryo hakazwa ingamba z'umutekano.

Umutekano wo mu muhanda ugirwa n'ibintu byinshi, cyangwa se ahantu hakorera abantu benshi, bashobora gucungirwa umutekano binyuze mu ikoranabuhanga rya kamera. zikagaragaza icyabaye icyo aricyo cyose cyabaye ahegereye aho hantu, hakaba hagaragaza uwatambutse ,cyangwa uwagize icyo aba.

Kabera Ja Bosco polisi ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, umwe mu bayobozi b'ubuvugizi mu gipolisi cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano kandi ukuriye abashinzwe umutekano b'imbere mu gihugu, ku baturage b'u Rwanda ni umuntu uzwi cyane ndetse wakoze byinshi muri polisi y'u Rwanda, akaba ari mu kiruhuko kizazabukuru.

Ubuyobozi bwa porisi buriho buraganiriza abaturage，bushobora kuba ari ukubabwira ibijyanye n'umutekano wabo， mu bufatanye bwayo n'abaturage，kugira ngo hacungwe ugo mutekano mu buryo butandukanye， akaba ariyo mpamvu bahisemo kuza kuganira nabo ngo barusheho gufatanya kwicungira umutekano.

Inama, aho abantu baganira ku bintu bitandukanye, ndetse bahana n'ibitekerezo, bahana ibitekerezo mu buryo butandukanye, ndetse bamwe bateze amatwi batuje, biteguye kumva icyo bagenzi babo babunguraho.

Inama cyangwa se ikoraniro ry'abantu afite ubayoboye ariho arabaganiriza kuri gahunda zateza imbere ubuzima bwabo zishobora kubateza imbere n'uburyo bakwigira.

Ingoro y'umwami haratatse hari ibiseke bipfundikiye bishobora kuba birimo amaturo, hari inkangara, hari n'uducuma dushobora kuba turimo inzoga zatuwe umwami.

Amasunzu ni inyogosho gakondo gihanga abakozi b'ibwami ababyinnyi, ndetse n'abataramyi b'ibwami, abahanzi gakondo bakunda kugira iyi nyogosho ikaba amasunzu ari inyogosho ya kera mu gihe cy'abami mbere y'ubukoroni.

Ingoma, imirishyo, hashobora kuba ari ahantu hakorerwa imbyino gakondo, hitorezwa ababyinnyi b'imbyino za gakondo. Ikigaragara hashobora kuba aribyo bikorerwa aha ngaha, hari abantu biteguye guhabwa ayo masomo y'imyidagaduro, cyangwa se n'ibindi bishobora kuba bihakorerwa, bijyanye n'umuco nyarwa...

Icuma co guteresha umuti ibirayi cangwa inyanya, cangwa n'ibindi, kiri hejuru y'umusaruro gw'ibirayi biri mu mufuka biteretse mu nzu, bikaba biri mu bubiko bwabyo nyamara akaba atari bwo bubiko bukwiriye kubika igikoresho ndetse n'uwumusaruro.

Abantu barizihiwe, bari kunywa inturire, bari gusangira rwose baryohewe, inzoga gakondo z'Abanyarwanda, yo mu kibindi barimo baranywera mu gacuma, bari kunywera mu gacuma rwose.

Ingabo, amacumu, imiheto n'imyambi, inkonzo, amasuka. Ibi byose ni ibyakoreshwaga hambere mu bijyanye no kurwana, kwitabara ndetse n'ubuhinzi. Ibikoresho byo hambere byakoreshwaga.

Imbehe ikozwe mu buryo budasanzwe ubona buteye ubwuzu, biragaragara neza ko abantu bashobora gushyira utuntu twabo baturambitse cyangwa se ikaba igikoresho cy'umutako w'ubwiza, gitaka ahantu ukabona ko harizihiwe.

Ububyinnyi gakondo, Aba bari mu mbyino gakondo, barizihiwe, bikoreye uduseke, ukabona ko baberewe, bikorewe rimwe kandi mu njyana imwe, abantu bafite injyana imwe, berekeje mu cyerekezo kimwe, kandi bagenda umujyo, umujyo umwe.

Kuboha imisambi cyangwa se ibirago ni akazi gakorwa n'abakobwa cyangwa se abagore. Mu gihe bari gutegura ibisaswa cyangwa se umuteguro nk'uko bikoreshwa mu rugo cyangwa se no mu birori bitandukanye.

Umwirongi, agakoresho kifashishwa mu kwizihirwa, iyo umuntu yizihiwe ashaka gukora injyana, yakoresha akifashisha cyane cyane iyo umenyereye kugakoresha. Nyamara gatanga ijwi wumva riranguruye biturutse ku kugahuhamo, ugahuhamo kagatanga ijwi riranguruye,..

Kuvugira inka cyangwa se kuzibyinirira bazicaniye urushito zirizihiwe inka zifite amahembe meza ndetse ziberanye n'ubukerarugendo zibereye z'umuco nyarwanda zibereye barimo barazibyinira zitambuka zizihiwe zibyina nazo zikinagira zirizihiwe ndetse n'abazireba nabo barizihiwe.

Igihingwa cy' amasaka. Amasaka ni gihingwa giteza imbere ubukungu bw' igihugu, ndetse kigafasha mu mibereho n' ubuzima bw' abaturage b' igihugu gukoramo ikinyobwa cyiza cyane kigendanye n' umuco abanya(...)

Ikigega. Ikigega kibikwamo imyaka yeze neza, kugira ngo ibikirwe kuzakoreshwa mu gihe kizaza hatari uwo mwanya. Cyahoze gikoreshwa hambere, n'ubungubu aho bishoboka kikaba cyakoreshwa na none kubika umusaruro weze neza.

Urubohero: mu rubohero ni ahantu abari bateranira, cyangwa se ababyeyi, bagakora imitako no kuboha imisambi, ibirago bashyize hamwe kugira ngo baterane umwete wo kugera ku cyo bagambiriye aha ni urubohero.

Mu gihe na mbere y'ubukoroni, nta ngabo zataramiraga ibwami, zaba zije gutarama cyangwa se zije gutanga, zije kwitaba umwami mu gihe hashobora kuba habaho ibihano cyangwa se gushimira abakoze neza.

Umuvure umuvure bakunda kwita ubwato ni igikoresho cifashishwa bakora umutobe w'ibitoki, umutobe w'ibitoki cangwa se bagaburira amatungo buhira amatungo, inka bagira ngo zishoke zifate amazi.

Intore zirimo guhamiriza ku gicumbi cy'umuco aho ziri kwiyereka zisusurutsa ba mukerarugendo cyangwa abashyitsi babukereye bitabiriye kureba uko intore zidagadura zihamiriza.

Irushanwa cyangwa umukino wo gusimbuka, kwiyereka imyereko yahozeho kuva na kera mu muco nyarwanda. Hagaragara abakinnyi batandukanye barimo bariyeka basimbuka urukiramende kugera ku ntera runaka, hakurikijwe uko irushanwa ryateguwe.

Umucuranzi gakondo ukoresha umuduri, akazihiza abantu akoresheje ibikoresho gakondo. Akoresha ibikoresho gakondo kugira ngo yishimishe kandi ashimishe n'abamubona cyangwa abamwumva.

Amarembo aho abantu banyura binjira mu rugo. Arafunze kandi mu by'ukuri arasakariye, uhanyura ntabwo anyagirwa mu gihe ategereje ko bamufungurira. Aha ni ku marembo yinjira cyangwa se asohoka, ku buryo uhageze ashobora...

Imyidagaduro ishobora kuba abantu abakaraza , bakaraza imirishyo yabo bavuza ingoma kubera ko gitaramo bariziwe cyane ,bariho bariyereka imbere y'abakerarugendo ,ndetse n'abashyitsi batandukanye bashobora kuba babagendereye.

Umwari wizihiwe mu muco nyarwanda umwari wambaye neza uberewe umukenyero akaba yashokoje neza yambaye bya kinyarwanda, ariko akaba aberewe cyane kuko umuco wa kinyarwanda gakondo ubiteganya.

Umubyeyi ari gukama abikora neza cyane nk' ubunyamwuga , bona n'ubwo ari imyambaro y'abamama ari itarabugenewe ariko arimo kubikora neza, arimo arakama inka iratuje iri no mu kiraro cyayo.

Uru ni urwengero bariho barategura umutobe ukozwe mu muneke w'ibitoki ariko bya gakondo ni ugutegura umutobe ukozwe mu gitoki bya gakondo bakaba bari no kwerekera abanyamahanga.

Umuhini ni n'isekururo ni ibintu byifashishwa byifashishwaga habaho gusekura amasaka kugira ngo urukungu ruve ruve ku masaka cangwa se bagira bakora imiti gakondo ituruka ku bimera n'ibindi bitandukanye. Iyi ni umuhini n'isekururo yawo.

Isekuro n'umuhini, n'ibikoresho byifashishwa mu gusya, cyangwa mu gusekura ibintu bifuza ko biba nk'ifu, cyangwa se bikaba nkamata, aho byari bishobora kuba ari bike cyangwa ibintu bikomeye, bakifuza ko bikorwa mu buryo bworoshye kugira ngo habeho asimirasiyo, cyangwa se kuribwa byoroshye.

Imyidagaduro ni ibintu byabayeho mu muco gakondo mu Rwanda. Byabayeho kera n'ubu bikaba bikiriho, abantu bakaba bagaragaza uburyo habagaho kwidagadura ndetse na n'ubu bakaba bari muri icyo gikorwa cy'imyidagaduro, ndetse bigaragara ko bari kwiyereka na ba mukerarugendo bagomba kuba bamenya neza uko Abanyarwanda bidagaduraga.

Ababumbyi b'inkono bazijyanye ku isoko, aho zigurwa, bakazikoresha mu buryo butandukanye: haba gutekamo, utwo tweso tukaba turyoshya ibiryo bitetswe mu buryo bwa gakondo cyangwa se bwa kinyarwanda. Utweso cyangwa se abandi bita inkono cyangwa bakabyita ibibindi mu gihe bishaje.

Ububyinnyi gakondo mu muco nyarwanda, kera habagaho kwizihirwa no gususurukirwa, abana rero batojwe ndetse n'ababyeyi barizihiwe, barimo baratarama, barimo barakora igita...

Uducuma n'ibibindi bikoreshwa kubika amarwa, inzoga y'ubuki, bikora mu kubika inzoga nziza, ndetse no kwengeramo. Uwabaga yabitsemo umutsama w'inzoga yashoboraga kwifashishwa mu birori ndetse no mu kwizihirwa ibwami.

Uduseke, imitemeri, imifuniko y'uduseke, imitako itandukanye icururizwa aha ngaha. Ba mukerarugendo baza bakizihirwa bakayigura bakayijyana, cyangwa se n'umuturage wifuza gufata uyu mutako akawukoresha, arawufata akawutaka mu nzu iwe cyangwa se aho akorera.

Abakobwa beza bafite ibisabo baramwenyura basa nk'aho bacunda amata, ariko bakaba barimo barizihiza ibirori. Ubona ko bambaye gakondo bya kinyarwanda. Mu muco wa kinyarwanda nk'uko babyambariye kandi ba....

Ababoshi barimo kuboha uduseke utu duseke duhabwaga abakerarugendo ba mukerarugendo ndetse n'abanyarwanda bifuza imitako, bashobora kudukoresha ariko cane cane tuba tugendeye kugaragaza umuco umuco nyarwanda.

Umuvure guri mu bintu byifashishwa bategura umutobe w'insina, ikindi bashobora kugubikamo amazi mu gihe bifuza kuza kuyakoresha mu bintu bitandukanye ,ari ukugira ngo babikemo amazi aza kwifashishwa nyuma ,hambere nibwo buryo umuvure gwakoreshwagamo.

Amafunguro y'imvange yateguwe neza, ari ku mbehe, cyangwa se isahani ikozwe mu giti, bariraho, ikaba ari igikoresho cyo hambere cyifashishwa mu gutegura amafunguro yiteguye kuribwa.

Inka zirimo gushoka zirimo zirahutse ziri kunywa amazi biragaragarako zari zinyotewe, ariko n'izindi zikaba zisa nk'aho zitayitayeho amazi ashobora kuba atari meza, ariko inka ziteguye kuyanywa.

Itara ry'amashanyarazi ritanga urumuri mu gihe bwije hijimye, rigatanga urumuri hakabona ni itara rishobora gutanga urumuri rurikuye rirahuye ku ngufu z'amashanyarazi cyangwa se ku mirasire y'izuba.

Imashini iri gukora umuriro mu gihe umuriro gwa osayi gwa ewuseri gutahari iyi mashini itanga umuriro w'amashanyarazi nkuko.

Ipense ni igikoresho cyifashishwa mu gukata udusinga cyangwa se mu gufungura amavise kigakoreshwa mu guhina cyangwa se mu gukiripinga udusinga twatundi tuba dufashe mu buryobwo kuduhina bifashisha ipence. Ipense yifashishwa mu gufata ikintu gishobora kuba gikora.

Aho bafukurira cyangwa se bafungira cangwa se bakarekura amashanyarazi. Ni ahantu n'ihuriro ry'amashanyarazi ava kuri suruse cyangwa se ku nkomoko ajya aho akoresherezwa.

Ikoranabuhanga n'itumanaho ni ikintu k'ingenzi mu buzima abantu bashobora kureba amakuru, ukamenya aho igihugu kigeze cyangwa se aho isi isi yerekeza, hakabaho no kureba imikino ndetse n'imyidagaduro ku bagize umuryango, hagaragara amashanyarazi ariyo atuma ibi byose bibaho.

Eregiteridisike ni igikoresho cyifashishwa mu kubika amadone, indirimbo, amafoto cyangwa se amashusho, kugira ngo bize gukoreshwa hanyuma, ububiko bw'amadone, zaba indirimbo cyangwa amashusho n'ibindi.

Itara ryo ku muhanda rishobora kuba ricanirwa, rikoresha ingufu z'imirasire y'izuba, cyangwa ingufu zikomoka ku mashanyarazi.

Iterambere ry'abaturage ni ryiza kandi ku mibereho myiza yabo ituruka ku buryo babayeho, aho baryama, ndetse n'uburyo batuye. Bityo amazi akabegerezwa, umwuka mwiza, bikaba byoroshye kugera ku isoko n'ahandi hatandukanye. Ariko bakaryama neza. Ikigaragara hano ni uko abaturage baryama neza kandi batuye...

Iki kiraro gishobora kunyurwaho n'imizigo, cyangwa se ibinyabiziga bitarengeje toni umunani. Ikiraro ni ikintu kifashishwa mu kwambuka uva ku mwaro umwe ujya ku wundi.

Abacunga umutekano ku marembo, bigaragarako abinjira muri iki kigo banyura kumarembo agaragara ahangaha, ariko gutambuka ub'ugomba kubanza ukamenyekana uw'uriwe. umutekano ni ingenzi ku babarizwa ahantu runaka, ku nyubako zihuriramo abantu benshi batandukanye, bikenerwa ko abantu bahinjiramo.

Umusigiti cyangwa se inzu ihurirwamo n'abayisilamu baje gusingiza Imana yabo ala. Ikaba igaragara neza inyubako nziza y'umweru yubatse neza kandi ikeye.

Amatara yo ku mihanda amurikira abantu nijoro atanga urumuri mugihe umwijima uje cyangwa wabuditse kugira ngo abantu n'ibinyabiziga batambuke, nta kugongana cyangwa bigaragara neza mu muhanda.

Imihanda zo mu Rwanda zigiraga amakoni menshi, guno ariko ko gufite ikoni rimwe hari ikoni rimwe, ariko biragaragara ko iterambere ry'imihanda rikomeje kuba ryiza cane hano mu Rwanda, ndabona batemye n'umusozi kugira ngo nibura amakoni gabe makeya gabe makeya, bityo habeho no kugabanuka .

Ahantu hahurira abantu batandukanye hakaba hatuje cyane, birashoboka ko hakorerwa igikorwa cyo gusenga, ari ahantu basengera bakaba uyu munsi icyo gikorwa kitabaye, uragitegera nk'igikorwa ngaruka Cyumweru co kuzaba umunsi.

Uburezi, iki ni ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho bw'inzu zigerekeranye etaje, aho bigaragara ko hagomba kuba hari umuyobozi w'iri shuri, ndetse biri kugaragara ko hari n'abarimu, abarezi ndetse n'umunyeshuri. Bakaba bari mu ishuri aho bagomba kuba bari guhabwa amasomo atandukanye.

Urusengero aho abizera bateranira baje gushengerera no kuramya Imana hagaragara ko hari abantu bavuye gushaka amazi bashobora kuba baje kuhakorera amasuku cyangwa se bayajyanye gukoreshwa mu rugo.

Izi myubakire zigezweho cane，kubera ko ari abantu gutura hamwe，iyo batuye guca，baturaga ku butaka bukeya， ariko n'iyo ari n'ikigo c'amashuri uba ubona gitwaye ubuso bukeya， ku buryo bifasha igihugu kuzigama ubutaka hirya no hino， bityo bikaba ari ibintu Leta yashizemo imbaraga， muri iyi myaka y'iterambere ry'umuvuduko.

Ishusho y'Umubyeyi Bikiramariya，imbere y'ingoro kiriziya，kiriziya gatorika， ahantu ubona ko habereye，amasengesho y’abakirisitu.

Urusengero rw'abadivatisite b'umunsi wa karindwi rwa Cyabirumba, aho bahurira bagaterana bakaramya Imana, uyu munsi ugomba kuba atari ku munsi wo gusengaho, kubera ko inyubako irakinze, cyakora ubwo ku munsi wo gusenga bashobora kuba bazahateranira niba barafunguye.

Kiliziya cyangwa se Ingoro isengerwamo abakirisitu, Kiliziya Gatorika bateranira, bagasenga umwami wabo, bakambaza umutima mutagatifu wa Yezu . Aha ngaha ni aho bakoranira abakirisitu basenga biyambaza Yezu nyir'impuhwe.

Ikigo cya Leta cy'amashuri cyangwa se ivuriro ikigaragara aha hantu hakorerwa n'ubuhinzi bushobora gufasha abari abakorera cyangwa se ababa muri izi nyubako. Ivuriro cyangwa se ikigo cy'amashuri uko bigaragara hakorerwa n'ubuhinzi bworoheje bushobora gufasha ababamo hano cyangwa abakora.

Aha ni ahatunganyirizwa amashanyarazi cyangwa se sitasiyo y'amashanyarazi, habikwa umuriro w'amashanyarazi uvuye ku rugomero, ukaza ugatunganyirizwa aha ngaha, ukererekeza mu bice bitandukanye bitewe n'ingano ikenewe mu cyerekezo runaka.

Imihahirane n'imigenderanire y'abaturanyi, abantu batuye mu bice bitandukanye bagenda bakenera ibiraro cyane iyo batandukanijwe n'imigezi itemba. Iki ni ikiraro rero gikozwe mu buryo bwa kijambere kandi kinyura mu kirere, aho abantu bashobora kugenda nta mpungenge z'uko bashobora kwikanga ko batembanywa n'amazi, kuko kiri hejuru cyane ugereranyije n'aho amazi ari.

Inyubako isengerwamo. Ingoro y'Imana abantu bageramo bakaruhuka, bagasenga, bagaca bugufi, bubashye Imana, hanyuma bagataha bizihiwe banezerewe. Zakunze kugaragara cyane nyuma y'igihe cy'ubukoroni mu gihugu cyacu.

Inyubako nziza isengerwamo, urusengero rwiza cyane rwose rwubatse neza mu buryo bugezweho, abantu bahahurira bakaramya Imana, ndetse bakanezerwa bagasabana na yo, kandi ubona ko aha hanga baba batuje nta kibakanga kandi bisa.

Ikiraro abantu bambukira aho bava ku mwaro umwe bajya ku wundi, bava hakuno bajya hakurya y'umugezi utemba batabasha kwambuka n'amaguru mu gihe kidahari.

Urusengero aho abakirisitu cyangwa abizera bakoranira baje gusenga baje no guhimbaza Imana, hariho ikirango cy'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Niba rutari mu nsengero zafunzwe , ubu bakaba bategereje ko umunsi w'amateraniro ugera.

Abihayimana bagize ikoraniro n'iteraniro ryiza, hashabora kuba habayeho gutanga inshingano ku bagabura b'iri torero, bakaba bari bizihiwe ndetse basangiriye hamwe, baganira ku by'umurimo wabo n'uburyo bashobora guteza imbere inshingano bahawe n'umwami wabo.

Umudugudu wa kijyambere wubakiwe abantu, kugira ngo bature hamwe, batishoboye cyangwa baturutse mu miryango itandukanye kugira ngo bagezweho iterambere n'ibikorwa by'amajyambere bibegere nta nkomyi kandi mu buryo bwiza, ndetse...

Umudugudu w'icyitegererezo aho abantu batura hamwe kugira ngo byorohe kwegerezwa ibikorwa by'iterambere, ibikorwa by'amajyambere, umuriro ndetse n'amazi.

Ikiraro co mu kirere Kanopi, ni uburyo bwiza bwo gufasha abantu baturutse hakurya kuza hakuno abo hakuno bajya hakurya, batikanga ko bashobora gutebanywa n'amazi cyangwa se batikanga ko hari ibishobora kubahungabanya bakambuka umu.

Imihanda myiza yakozwe mu gihugu c'u Rwanda mu mijyi itandukanye ikaba ifite amatara cangwa ico bita ekereraje imeze neza hakaba hateye ubwuzu kuhagenda amanywa na nijoro ukumva ntaco wikanga.

Igikorwa cy'iterambere, umuriro w'amashanyarazi, wegerejwe abaturage, ahangaha ko bigaragara muri ruro ereya, cyangwa ahantu h'icyaro, nyamara hakaba hari igikorwa cy'iterambere, gifite agaciro kangana gutyo, c'amashanyarazi, aho bishobora guteza imbere agace nk'akangaka, cyangwa se ahantu h'icyaro.

Amazu yubatswe yiteguye gucumbikira abaturage batandukanye, batishoboye cyangwa se bakuwe ahantu, kugira ngo batuzwe neza, kugira ngo iterambere ribagereho mu buryo bwihuse, kandi butagoranye.

Mu rusengero rwa gatorika kuri paruwasi ya Muyunzwe, aho abantu bahurira baje gushe bagiye gushengerera, ndetse no kuramya uhoraho we ubabeshaho akabaha ubuzima.

Iri ni igororero aho abantu bashyirwa kugira ngo bigishwe indangagaciro zikwiriye abanyarwanda. Ni igororero cyangwa gereza ya Huye icumbikira abantu bananiranye, cyangwa bakoze amakosa muri sosiyete nyarwanda.

Biragaragara ko abantu biteguye kubaza cyangwa se barimo kubaza ibibazo ubuyobozi bwabasuye, haba inzego z'igihugu, Umuvunyi Mukuru cyangwa se abandi bayobozi basuye abaturage, bakaba biteguye kandi bari kubabaza ibibazo mu miyoborere yabo.

Iteraniro cyangwa se ikoraniro ry'abantu bahujwe n'inama itandukanye cyangwa se koperative, ikimina abantu bahuriye hamwe bigaragara ko bafite inama.

Abitabye inkiko , biragaragara ko ari abantu bahuriye hamwe bafite ikirego bahuriyeho , bakaba bashobora kuba barakuwe mu nyeshyamba , bakaza ari nk'umutwe w'iterabwoba bakaba bari guhabwa ubutabera.

Ubuyobozi buganiriza abaturage, bakamenya ikijyambere, uburyo bakwiteza imbere, ndetse n'imishinga leta iteganya gukorana nabo, ubufatanye bwa buri wese mu baturage, babigezwaho n'ubuyobozi bwabo bwiza.

Aha ni mu nteko y'abaturage, aho hitezwe ko abantu bagaragaza ibitekerezo bafite cyangwa se ibibazo bafite, bakabisubizwa n'ubuyobozi bwabo, kuko bwategereje kugira ngo bumve ibibazo.

Ubuyobozi burimo kuvugana n'abaturage ku iterambere ryabo. Abayobozi bicaye batuje ndetse abayoborwa nabo bateze amatwi. Umwe akaba afite ijambo n'icyo arikubagezaho.

Urwego rw'ubucamanza cyangwa se rwunga abaturage b'igihugu, aha umuturage akaba ari gusobanura ikibazo cye, akaba abasha guhabwa ibisobanuro cyangwa se kurega, gutanga ikirego k'umuntu, ushobora kuba yaramugiriye nabi cyangwa se ku burenganzira bwe ata....

Ubuyobozi buriho buraganiriza abaturage ,abaturage bateze amatwi ku byo babwirwa cyangwa se ku migambi Leta ibafitiye, baratuje bateze amatwi, ikigaragara ni uko bari kubwirwa amabwiriza cyangwa se ibijyanye n'iterambere ry'umuryango nyarwanda.

Ubuyobozi bwahuye n'abaturage bagaragarizwa iterambere ryabo n'uburyo n' imiyoborere babwirwa intumbero za leta ndetse n ico ibateganyirije mu mu minsi iri imbere, bababwira n'uruhare rwabo babiteze.

Abaturage bari mu nama, bigaragara ko bamwe muri bo bananiwe, ariko bakaba bigaragara ko baganirizwa n'abayobozi, bitabiriye inteko cyangwa se inama ya Leta, uko bigaragara aha ngaha.

Inkiko cyangwa se ubucamanza bukorewe ku karubanda aho abaturage bakemurirwa ibibazo bibereye mu ruhame. Abaturage bateraniye hamwe n'inzego z'umutekano babwirwa ibibazo bishobora guteza umutekano muke hagati yabo.

Abaturage bari mu nama, aho bahamagawe n'abayobozi b'urwego rw'umurenge. Bakaba bari kubwirwa gahunda bwite za Leta ku bijanye n'iterambere ndetse n'umutekano by'abaturage bagomba kwigiriramwo uruhare, bo ubwabo bagizemo uruhare mu mutekano wabo n'iterambere ryabo.

Ikigaragara aha hari inama yahuje abaturage n'abayobozi mu nzego za leta, bakaba barimo baratanga ibitekerezo ndetse babaza n'ibibazo, bishobora kuba bibabangamiye mu mibereho myiza yabo.

Aho abagenzi bafatira ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye by'umujyi gwa Kigali abantu bagiye mu mujyi Kigali kwa Rubangura baturutse Kimironko aho abantu bashobora kwerekezamo mu bindi byerekezo bava Kimironko abaza Kimironko bakaba ari ahangaha burukira.

Ubwikorezi bukozwe n'ibinyabiziga abaturage bikoreye, imbaraga zabo no mu bwenge bwabo, nyamara bishobora kwikorera imizigo iremereye kandi minini cyane ,ndetse abantu bafite ubumuga bakaba bashobora gukora ubu bwikorezi ,mu buryo ubona ko bushobora kuba boroheye.

Tiriniti ni amabisi cyangwa se kampani Tiriniti egisipuresi, itwara abagenzi bava cyangwa se bajya Kampala, Kampala berekeza i kigali, i kigali berekeza Kampala, bityo zigafasha mu rugendo zigahuza ibyo byerekezo byombi.

Imodoka ya kompanyi serekitedi, itwara abagenzi bava mu byerekezo bitandukanye, bajya cyangwa se bava mu mugi wa Kigali. Iyi ni imwe muri kompanyi zitwara abagenzi mu buryo bwa......

Bisi za Ritiko ni zimwe muzitwara abagenzi aha ngaha mu Rwanda, zigahuza abantu n'ahantu, aho berekeza mu mpande zose z'Igihugu, mu ntara zose no mu turere twose tw'Igihugu zirahagera, ndetse zikaruhukira mu mujyi wa Kigali.

Gutwara imizigo bikorwa mu buryo butandukanye, ariko hari uburyo abantu bakora ikinyabiziga gifite amapine kandi bikoreye ariko kikaba kibasha gutwara imizigo myinshi, aba batwaye amajerekani bashobora kuba bapakiyemo amavuta n'ibindi bitandukanye.

Uruja n'uruza rw'abantu bavuye mu mihanda itandukanye amajaruguru， amajyepfo，ububurasirazuba n'uburengerazuba. Bahurira ahangaha， bamwe bajya mu byerekezo bitandukanye berekeza iyo abandi bava n'abaja， hakaba hari ibinyabiziga binini，amabisi manini yiteguye kubatwara aringaniye na manini cyane yiteguye kubajana muri ibyo byerekezo ba...

Ahahurira abagenzi, imodoka zizanye cyangwa zijyana abagenzi mu byerekezo kuva no kujya mu byerekezo bitandukanye by'igihugu, ni muri gare, harateguwe, Nyabugogo ihuriramo abagenzi bava n'abajya mu byerekezo bita...

umusaruro w'ibirayi ujyanwa ku isoko hifashishijwe igare. Hari abandi bagenzi bashobora kuba bagiye ku isoko bari mu kinyabiziga cya minibisi gisanzwe gitwara abagenzi.

Imbangukiragutabara cyangwa se ambilansi ni ingobyi iheka abarwayi, ikabakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi bifite ubushobozi burenze, ikabasha kubikora mu buryo bwihuse undi umurwayi adahungabanye cyangwa se bagire inkomyi.

Ahahurira amabisi atwara abagenzi, ndetse n'amatagisi atwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye, aha bigaragara ko hari bisi igaragara mu turere tumwe tugize igihugu, muri ka turere ibice bigaragiye imijyi, abagenzi bakaba bahahurira.

Umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ukorwa mu buryo butandukanye ,waba ukozwe n'abagore cyangwa abagabo, aha umuntu arimwo aratwara moto ye ,ariko ashobora gutwara n'abagenzi mu gihe bibaye ngombwa ,abandi bashobora kugenda n'imodoka, cyangwa bagahitamo kugenda na moto.

Uburyo bwo gutwara abantu bushobora gukorwa hifashijwe amabisi mato, cyangwa se ibinyabiziga by'amaguru abiri nka moto. Abantu batandukanye bari kwerekeza mu byerekezo bitandukanye. Ikigaragara bari kwerekera mu mugi, bifashishije mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'ubw'abamotari. Hifashishijwe amabisi mato, tagisi ntoya zitwara...

Abanyeshuri bavuye ku mashuri baratashe mu rugo bahuriye ahantu aho Leta yateganije ko bari buhurire kugira ngo baze kuva ku mashuri bagere mu rugo neza nta muvundo, ntakibazo bagize, ntakirogoya bahuriye nayo mu nzira bari baranyuramo.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bikozwe n'amabisi. Amabisi akaba ari amwe akoreshwa mu bwikorezi bw'abantu ariko akaba akoresha imbaraga zitangiza ikirere. Ni ingufu ziturutse ku mashanyarazi , atari iza peterori na mazutu , aho bishobora kwangiza ikirere.

Ubwikorezi bw'ibiribwa biva mu mahanga cyangwa se bijya mu mahanga biva mu Rwanda. Ibi ni amakamyo manini cyane ya rukururana aba atwaye ibicuruzwa biva mu mahanga cg se bijya mu mahanga.

Kwita ku bidukikije ni gahunda ya Leta, aho yifuza leta y'u Rwanda yifuza ko ndetse n'isi bifuza ko ibinyabiziga bitazaja birakoresha esansi, ahubwo byakoresha umuriro gw'amashanyarazi cangwa se n'imirasire y'izuba. Iyi modoka ni imwe mu zikoresha ingufu zituruka ku mashanyarazi, atari ingufu zituruka ku bitoro bya Peteroli.

Gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikoreshwa n'amashanyarazi, ikoresha amashanyarazi idakoresha esanse. Ikaba iri ahantu ku igaraje irimo iratunganywa, kugira ngo ikomeze kugira ubuziranenge bwayo.

Uburyo imigenderanire umuntu ava mu cyerekezo kimwe ajya mu kindi bikorwa hifashishijwe ibinyabiziga bitandukanye; hakaba hari moto zishobora gutwara abantu bitewe n'akazi bagiyemo, cyangwa se bitewe n'icyo agiye gukora ariko ku ntera itandukanye n'aho ari.

Ahaparikwa amabisi ategereje abagenzi, bajya mu byerekezo bitandukanye by'igihugu, hazwi nka Nyabugogo. Ni ahantu hanyura abagenzi benshi bava, ndetse n'abererekeza mu ntara, ndetse no hanze y'imipaka y'U Rwanda, aha hazwi nka Nyabugogo aho abagenzi bahurira ari benshi cyane.

Jari transipoti ni kompanyi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikora ingendo zitandukanye mu muji, mu muji gwa Kigali.

Umusaruro w'imbuto uzanwa ku ruganda kugira ngo utunganwe. Harimo wotameloni amaronji, imyembe n'ibindi bije ku ruganda kugira ngo itunganwe. Bivanwemo amaji cyangwa n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ubwikorezi ni ikintu gikomeye mu iterambere rya muntu aho batangira bagenda n'amaguru abandi bakagenda n'amagare namapine abiri ndetse n'abandi bakagenda n'imodoka uyu atwaye umusaruro we ku isoko aho awujyanye akoresheje ikinyabiziga kicigare.

Abamotari ni abantu bakora umwuga wo gutwara amapikipiki cyangwa se moto, bagatwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye bashobora kuba bari ku biro byabo ngo bahuriyo nk'itsinda cyangwa se baje mu yindi gahunda ishobora kuba yabazanye, cyakora bakaba bahuriye ku umwuga umwe wo gutwara abagenzi ku mapikipiki.

Umuhanda munini ibinyabiziga bigenda ari byinshi cyane, habaye ambutiyaje. Ibinyabiziga byuzuye mu muhanda, birimo biragenda gake gake, abanyamaguru nabo barimo baragenda, aha ikigaragara ni uko umuhanda wuzuwemo n'ibinyabiziga, bikaba bitari kubona uko bitambuka ku muvuduko nyawo.

Urugendo rukorewe ku mazi rukenera ubwato, nk'abantu bashobora kubwifashisha bava ku mwaro umwe w'uruzi cyangwa rw'ikiyaga berekeza ku wundi mwaro cyangwa se ku yindi nkonbe.

Ubwikorezi bukozwe mu buryo budasanzwe, ibicuruzwa ku binyabiziga bidasanzwe abaturage bikoreye, ariko bitwara imizigo iremereye kandi biri mu buryo butangaje, yagatwawe n'imodoka. Hari abagabo n'abagore bose batwaye ibicuruzwa mu buryo ubona ko budasanzwe.

Ubwikorezi bukozwe n'amagare, amagare atwara abagenzi, ikigaragara ni uko ubwikorezi buteza imbere ababukora ndetse bukorohereza n'abagenzi, mu ngendo zabo za buri munsi, mu buzima bwabo bajya cyangwa bava mu kazi.

Igikoresho cyifashishwa mu gutwara imizigo, moto y'amapine atatu, n'igikoresho cyifashishwa mu gutwara imizigo mu buryo bwihuse, kandi kibasha kunyura ahantu haringaniye, hatari hahagari cyane, ariko kigafasha mu buryo bwihuse.

Abamotari, abantu bakora umwuga wo gutwara abantu bifashishije amamoto cyangwa se amapikipiki, ikigaragara bambaye bose ingofero z'icyatsi, bafite n'ibirango bigaragara nk'amabendera y'icyatsi, biragaragara ko ari abantu bafite ishyirahamwe cyangwa se ahantu bahuriye, bagize icyo bahuriyeho bose.

Mu muhanda ku cyapa aho abagenzi bategera bisi biragaragara ko bisi ihageze igiye guhagarara abagenzi bakavamo igafata n'abandi bakajyamo bakomeza mu cyerekezo iyi bisi igiyemo. Aha ni Kamuhoza aho abagenzi bashobora kuviramo.

Sosiyete itwara abagenzi mu buryo rusange mu mujyi wa Kigali yitwa Kebiyesi. Iyi ni kompanyi yaje umujyi itwara mu mujyi wa Kigali gutwara abantu ibakura mu byerekezo bimwe ibajyana mu bindi byerekezo by'umujyi wa Kigali. Ikoresha amabisi manini cyangwa se n'aringaniye ariko agakorera mu mujyi wa Kigali.

Ubwikorezi bukozwe n'imodoka itwaye urutoki, ibitoki bigiye ku isoko bigomba kuba ivuye mu murima aho byahinzwe bigiye ku isoko aho bigiye kugurishwa kugira ngo abaguzi babihahe, babijyane mu rugo bityo bibafashe muzima.

Ubwikorezi bukozwe na company ya volcano. Sosiyete ya volcano ikunda gutwara abagenzi, mu byerekezo bya Kigali, Huye, Kigali Bujumbura .Ubwikorezi bwakunze kugaragara neza ,ko bukora aka kazi cyangwa ari abanyamwuga mu gutwara abagenzi.

Ubwikorezi, ubwikorezi bukozwe n'umuntu ku giti cye, aha ushobora kwikorera ukoresha umutwe cangwa se ukagenza ikinyabiziga, uyu mubyeyi atwaye igare ajyanye umusaruro cyangwa se awukuye mu murima, cyangwa se awujyanye ku isoko.

Rwanda Air ni company, itwara abagenzi ikora ubwikorezi bwo mu kirere, ikaba ari sosiyete Nyarwanda, igize indege zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange vuba. Ariko hakaba habaho gutera imbere, mu buryo bwihuse. fly redrims of africa yiteguye kurangiza gusoza inzozi nyafurika.

Irushanwa mu mukino w'amagare imikino y'amagare ni igikorwa kibaho mu makipe atandukanye cyangwa se abakinnyi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye bahurira mu irushanwa ryateguwe aha bakaba bari muri turi di rwanda

Bari mu marushanwa yo kwiruka ari nako bakora imyitozo ngororangingo igaragara ikibuga ni ik'imyitozo ngororangingo n'umugozi ntarengwa aho bagomba kuzenguruka uyu mugozi kugira bakore intera yagenwe

Umukino gwa handiboro umukino gw'amaboko umukino nkindi yose utera ibyishimo ndetse n'ubwuzu ku bawureba cyangwa se abawukina utera ibyishimo.

Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore Amavubi, ikigaragara ni uko inezerewe yishimye, kandi igomba kuba yaserukiye igihugu cacu, bakaba bari hanze y'igihugu bitegura gucakirana n'amakipe yandi yo hanze, kugira ngo baserukire igihugu cabo.

Umukino w'intoki volebolo, abakinnyi barimo barizihirwa, bakina umukino batera umupira, kuva mu gihande kimwe batera mu kindi n'abandi bawubasubiza gutyo gutyo kugeza utakariye mu maboko y'umukinnyi umwe w'ikipe imwe, igatsindwa bitewe n'uko yatakaje umupira udatakariye mu kindi kibuga.

Umukino w'amaboko wa handiboro, aho abantu bakirana bashaka gufata ku mupira kugira ngo barebe ko batsinda bagenzi ba bo, ariko nanone abo bakina na bo bukanga ko umupira wajya mu kibuga cya bo, bakifuza ko buri wese ariwe watahana.

Pelesitadiya iyi ni sitade y'imikino mu mujyi wa Kigali yitiriwe Pele , w'icyamamare mu mupira w'amaguru ruhago ku isi yose. Iyi sitade yo mu Rwanda ikaba yaramwitiriwe , akaba iri i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. abantu bakunda kuza bakizihirwa bareba.

Irushanwa ry'imodoka aho abantu bidagadura bakareba abarusha abandi gutwara ikinyabiziga. Barimo baratangira ngo ugize irushanwa umwe agende atangire urugendo rwe, ubundi amarushanwa akomeze.

Umukino go gutera uruhindu. Gutera uruhindu umuntu wabizobeye cane, arimo aratera uruhindu bishoboka ko ushobora kugera muri metero mirongo itanu cangwa se mirongo itandatu bitewe n'intego utera yihaye yihaye cyangwa niyo bamubwiye gukora.

Mu mukino w'amagare mu Rwanda kubera ko hari visiti Rwanda biragaragara ko uyu mukino mukino wari gwabereye mu Rwanda akaba ari isozwa ry'ikiciro cyangwa se rya etape runaka kuko uri ku igare yishimye cyane bigaragara ko ashoje iyi etape cyangwa se.

Umukino gw'amaboko cangwa se gw'intoki gwa vore, umukino abantu barebaga bakizihirwa. Gugomba kuba guteza imbere abakinnyi cyangwa se urubyiruko.

Ikipe y'igihugu ya volebolo, basiketibolo bari gukina kuri sitade Kigali Beka Arena yitezwe ko bashobora kwitwara neza muri uyu mukino aho bahanganye n'andi makipe.

Amarushanwa ku magare mu mukino uyu umukino wizihiza abawukora ndetse n'abawureba harimo amakipe atandukanye hari n'iy'u Rwanda. Uyu mukinnyi ugaragara hano mu b'imbere akaba arI Umunyarwanda yambaye iniforume yabakinnyi b'amagare bo mu Rwanda. Ni umukino uteza imbere igihugu ndetse ugateza imbere n'ubukerarugendo muri rusange.

Isiganwa ku magare ry'amarushanwa y'amagare ni umukino abantu bareba bakizihirwa, ukabashimisha cyane, abitabiriye, abitabiriye irushanwa baturutse impande zose z'isi, ababigizemo uruhare bagahembwa bitewe n'uko yatsinze.

Urukiramende. Urukiramende ni umukino ngororamubiri usaba imbaraga. Umuntu uko asimbuka, asimbuka intera runaka yagenwe ujya hejuru, n'uyubuhagarike. Amarushanwa rero cyangwa se uyu mukino uyu mukobwa, igitsina gore, arimo asimbuka urukiramende.

Umupira wifashishwa mu mukino voreboro. Ni baro ikoreshwa iyo bakina umukino wa voreboro vi magana atatu wa(V300W).

Abakinnyi b'ikipe ya rayon sports, ikipe ikundwa n'abantu benshi mu Rwanda, bagomba kuba bari kwishimira intsinzi ko bamaze gutsinda igitego, nk'uko bigaragara muri iyi foto.

Umukino wa basiketiboro wahuje amahanga; amakipe atandukanye yo rwego rwa Afurika yahuye, baje mu mukino wa basketiboro muri kigali Arena.

Gukina ni byiza ariko noneho bikaba akarusho ukiniye ku mucanga aho ushobora kugwa ntugire gukomereka la, abo gu abo mukinanaga nabo nti ntugire ubwoba ko barakugusha canga bakakugwira ugakomereka oya, ahubwo mukumva mwese wagwa ,waba utaguye gusitara ntukomereke nico ciza co gukinira ku mucanga cya se kuri bici.

Umukino w'intoki, ni ikintu ni umukino utamenyerewe cyane, ariko ukaba ukora neza nkuko futuboro ikinwa. Ukinwa na bakeya, ariko na cyo ni kimwe mu mikino ngoranrangingo, ndetse ishobora gutera gutuma n'abantu habaho kurushanwa, ndetse bagatwara n'ibikombe.

Abantu benshi bahuriye ku kibuga c’umupira, aho baje bizihiwe, baje kureba umupira kuri sitade nziza ya Huye. Ni ahantu hizihiwe kuhagera, ubona binejeje kureba abantu bakina mu kibuga bakina umupira. Hari ambiyanse n’ibyishimo byinshi cane ku bantu bateraniye ahangaha.

Umutoza, umutoza w'ikipe ya handiboro afite ibikoresho cangwa se imipira, biragaragara ko agiye gutangiza cyangwa se ashoje umukino w'amaboko bita handiboro.

Umukino w'intoki wa volebolo abantu barawitabira ndetse ugashimisha ugashimisha abantu benshi, ni amakipe abiri aba ahanganye aharanirako umupira utagwa ku kibuga cyabo, ukagenda uhererekanwa kugeza aho utakarijwe n'ikipe imwe ubwo indi kipe ikaba irayitsinze.

Umukino w'amaboko vore boro aho harimo guhiga, abantu bose bifuza ko umupira ugwa ku kibuga cya bagenzi babo mu buryo bw'amarushanwa.

Ikibuga cya bici vore, umukino w'amaboko, cyangwa se w'intoki, voreboro, kiri hafi y'amazi kandi kikaba umucanga atari isima. Ntabwo kiri hejuru ya sima, ahubwo kiri ku mucanga bita kuri bici vore.

Kuri Sitade Amahoro, abakinnyi bari mu myitozo ndetse bitegura kuza kuzahura n'amakipe atandukanye bari kumwe mu irushanwa.

Ikibuga giteye neza ahakorerwa imyitozo ishobora kuba ari umupira w'intoki cyangwa se umupira w'amaguru, ariko muri rusange izamu rigaragara aha ngaha mu kibugakaba ,kikaba cyakinirwamo umupira w'intoki umupira w'intoki handibolo.

Umukino wa hendibolo, hendibolo ni umwe mu mikino nayo isaba imbaraga, aha hari amakipe abiri arahanganye barimo barakina mu kigo cy'amashuri, bigaragarako ari ibigo by'amashuri bibiri bihanganye.

Umukino wa vore boro, kuri kigali arena amakipe ahanganye akina umukino w'amaboko vore boro, agaragara ko umusifuzi wo ku ruhande igitambaro gitukura, yiteguye kureba niba hari amakosa akorwa n'umukinnyi ndetse arimo ara regurara.

Irushanwa ry'amagare. Umwe mu bagize irushanwa bigaragara ko ari mu ikipe y'u Rwanda iri mu marushanwa, ageze aha ngaha, azamuka umuhanda w'amabuye. Abaturage, abanyarwanda bishimiye kumubona uko agize irushanwa kandi ubwo bitewe n'umwanya ariho mu irushanwa.

Umukino w'amaboko volebolo ,ukaba uhuruza amahanga abantu benshi. Ikigaragara ni ikipe y'u Rwanda, umutoza ari kwereka umukinnyi uburyo akwiye kwitwara, iyo ari mu kibuga atera ikilo.

Umukinnyi wa futubolo numero ya mbere zamu w'ikipe bigaragarako yambaye ibintu byose bimufasha ga zo mu ntoki, zimufasha gufata umupira neza atangiritse ku ntoki ,akaba bigaragarako awufashe warugiye kuza mu izamu cyangwa Wenda ashaka kuwohereza kohereza mu kibuga

Umukino wa tenisi n'umukino mwiza utera ibyishimo ku bantu bawukina ndetse n'abawureba, ukabasha guhuza abantu bavuye imihanda yose abazungu, abirabura abagufi n'abarebare bashaka gukina. Uyu mukino kandi akabona bose bari ku rugero rumwe.

Ikibuga cyiza gisa neza cy'umukino wa voreboro, voreboro ikaba ikinirwa aha ngaha kuri iki kibuga, bishoboka ko hakinirwa abafite ubumuga bashobora gukinira kuri iki kibuga, ndetse n'abana bato bashobora gukinira kuri iki kibuga, bakina umupira wa voreboro umukino voreboro.

Izamu ry'umukino w'amaboko handibolo cyangwa se w'intoki, umukinnyi yiteguye kuwutera mu izamu ariko n'umunyezamu nawe ariteguye kuwufata , kugira ngo utinjira mu izamu rye aririnze neza ikigaragara.

Umukino wa tenisi ushimisha abantu benshi. Ukinwa n'umukinnyi umwe ku ruhande rumwe, n'undi mukinnyi umwe kundi ruhande. Abantu bakawukunda cyane ukunda gukinwa n'abantu b'abazungu, b'uruhu rwera. Ariko no mu Rwanda abantu bakaba barimo...

Amahuriro y'imihanda utuyira tujya mu makaritsiye, duteye neza, dukoze neza, bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi buciriritse, ariko hakaba hagaragara ko hateye imbere, n'ubwo ari ahantu h'icyaro, ariko bigaragara ko hasa neza kandi ko hateye imbere.

Utuyira imihanda igize ibice by'icyaro ni umudugudu w'icyitegererezo wa kinigi, bigaragara ko hari ivomo, amazu abaturage bacumbikamo ndetse n'amazu y'ibikorwa rusange, nka kagari ibiro by'akagari n'ibindi bitandukanye hari amatara, biragaragarako ari ahantu ushobora gutembera kandi uhatuye akaba yizihiwe rwose.

Isoko ahantu hagurirwa ibintu bitandukanye cyakora bikagaragara ku munsi hatakoze hashobora kuba hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda cyangwa se inkweto ariko ikigaragara ni uko uyu munsi utarimo gukoreshwa.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi ariko biragaragara ko hasi afunze, gusa hari abantu banyura bambuka bajya hakurya bava hakuno ariko amazu y'ubucuruzi arafunze.

Aha ni muri santire y'ubucuruzi, biragaragara ko harimwo umuntu ufite amajerekani, avuye gushaka amazi yo gukora amasuku se cyangwa gutegura. Haba arink'umukozi wa resitora cyangwa ari gukora amasuku ahangaha hafi muri iri soko, muri iyi santere y'ubucuruzi hakenewe amasuku. Banahurira iyo baje gukora ibikorwa bitandukanye cyane by'iterambere.